Kimwe mu byumba byo kwa muganga kiberamo ubuvuzi by'umwihariko ibyo bita operasiyo, aho umurwayi ajanwaga yarangiza akaba yakwitabwaho mu buryo bwihariye, haba harimo kumubaga bimwe mu bice by'indani cangwa se gusuzuma by'umwihariko bakoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga.

Akabati karimo imiti z'ubwoko bugiye butandukanye. Ubusanzwe utubati twagenewe gushirwamo ibintu byinshi, ariko bifite uburyo bitondetswemo, byaba hagendewe ku mazina y'ibyo bintu, igihe byazaniwe ahongaho, cyangwa umubare wabyo ukurikije ibiri aho mu kabati.

Muganga uri gutera urushinge umurwayi. Gukoresha urushinge ni bumwe mu bundi buryo bwo kuvura mu buryo bw’ako kanya, bitabaye ngombwa ko umurwayi bamuha ibinini. Ubu buryo bukoreshwa cane iyo umuganga abonye ko ari ngombwa ko umuti woherezwa, cangwa si uterwa umurwayi mu buryo bw’ako kanya.

Igitembatembe. Akaba ari bumwe mu bwoko bw'indabo bukunze kugaragara cyane mu turere twose tw'Intara y'Amajaruguru. Igitembatembe ni rumwe mu ndabo nziza n'ubwo rusaba kwitabwaho kugira ngo rutangirika. Igitembatembe kandi ni ingenzi, kuko nk'imizi yacyo yifashishwa nk'umuti uvura amenyo, iyo ivanzwe n'ikindi kintu.

Igifuranende; kikaba ari icyatsi intama n'ihene zikunda kurya ndetse kikaba gikunda kumera ahantu mu bisinde cyangwa mu bibara. Ikibara ni ahantu hahinzwe ariko ntihaterwe imyaka hakamera ibindi byatsi bisanzwe.

Isombe ni kimwe mu mboga ziribwa cane cangwa ndetse zinera mu ntara y'amajaruguru. Isombe zisoromwa ari ibibabi bishobora gusekugwa cyangwa se bikajanwa kubeteshwa ku imashini. Isombe ni kimwe mu bihingwa byororoka ndetse bigakura vuba vuba.